Mu buryo bwo kubika ibicuruzwa neza ndetse n'imyaka, haba mu masoko ndetse n'ahandi, hanifashishwa uburyo bwo kubishyira mu mifuka, bigapangwamo neza mu buryo bwo kugabanya umwanya ndetse...

Uburyo bwo kongera umusaruro, abaturage bagenda bashishikaye gukoresha inyongera musaruro, cyangwa se imiti itandukanye, urugero nka detani. Ifasha kurwanya ubukoko ndetse no kurwanya irumba kurumba kw'imyaka.

Abacuruzi batandukanye hirya no hino mu gihugu, usanga mu buryo bwiza bwo kubika umusaruro cyangwa se ibicuruzwa byabo babipanga mu mifuka. Inyongeramusaruro ya dapu iva mu mifuka, agafuka kamwe kaba karimo ibiro mirongo itanu by'ifumbire.

Bendazawayiti ndetse nindi miti yitwa bivani ni imwe mu miti ikoreshwa mu buhinzi. Mu buhinzi aho ikoreshwa mu kongera umusaruro, mu kwica udukoko, mukongera umusaruro mukeya ndetse, no kongera umusaruro mu bihingwa bitandukanye cyane cyane bikoreshwa mu mboga.

Hari ubwoko bwinshi bwo guteguramo ibiryo, ndetse no gutegura imikati, aho abantu babyize neza, ndetse bize ibijyanye no guteka bize igikoni, bagutegurira ibyo kurya byiza bisobanutse, ukarya, ukishima, ndetse ukanaryoherwa.

Ifi ni kimwe mu biguruka cyane, mu nyamaswa ziboneka mu mazi, haba mu biyaga mu mazi magari ndetse no mu bitega, abantu baba baricukuriye mu korora kugira ngo borore amafi.

Mu binyabuzima biba mu mu mazi tubonamo amafi, mu karere kacu ka Musanze wenda ahantu haboneka ikiyaga ni lake, amafi na yo ni bimwe mu binyabuzima biba mu mazi ndetse bikaba n'ibyo kurya ku baturage, urumva tugomba gufata neza ibinyabuzima biba mu mazi nk'amafi, kuko ari umumaro kuri twe ndetse n'igihugu muri rusange.

Ubwato ni kimwe mu bikoresho bitwara abantu bambutse amazi, bibavana ku nkombe z'ikiyaga bibajyana ahandi. Bukorera mu mazi magari cyangwa se mu biyaga.

fIi ni inyamaswa ziba mu mazi, zibera mu mazi, zitunzwe n'utunyamaswa kandi na nonetuba mu amazi. Abantu barayaroba bakayarya, bajyana mu isoko bakayagurisha bagakuramo amafaranga.

Mu biyaga hagenda habamo ubwato, aho abantu babugendamo rimwe na rimwe baba bari mu ngendo bambuka, abandi baroba amafi kugira ngo babone ibibatunga ndetse no kuyajyana mu isoko, kugira ngo babone amafaranga n'ibindi bakenera.

Iyo baroba amafi, bakoresha utuntu tumeze nka supanete, aho inshundura bagenda bakayijugunya mu mazi ,bagakurura amafi akazamo, ariko muri izo nshundura baba bashyizemo ibiryo bituma amafi yinjiramo.

Ibiyaga ni ahantu hagari haba amazi menshi, aho abantu barobamo amafi ndetse tumwe mu tunyamaswa tuboneka mu mazi, nk' indagara, ishonzi n' utundi duzimba duto dusanga mu mazi.

Ibidamu cyangwa se ni ibyobo bicukurwa byororwamo amafi aho biba bifite ishusho ya rekitango cyangwa se ya mpandenye, impande ebyiri zingana, n'izindi na zo zingana, ziteganye bikaba byakira amafi.

Uburobyi ni kimwe mu bikorwa bibeshejeho abantu, bikorerwa mu bice bitandukanye by'igihugu, ndetse mu ntara zigiye zitandukanye. Aho mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Burera, dufitemo ibiyaga nka Ruhondo na Burera bukorerwamo uburobyi.

Aborozi bagenda bagira aho bororera amatungo yabo, bakagira naho batereka ubwatsi, kuko inka zabo zirya cyangwa se amatungo yabo arya mu gihe cy'izuba.

Ni ibidukikije bifite umumaro ukomeye cyane aho bikurura umwuka duhumeka ogisigeni. Ni amacumbi y'iyamaswa n'ibiguruka, inyoni, ibisiga.

Mu bice byose by'igihugu bigenda bitandukanye hari inzira bita inzira z'ibusamo. Inzira ya hafi cyangwa se inzira yo mu giturage, umuntu wese agenda anyuramo itari umuhanda. Izi nzira zikunze kuba hagati yamazu cyangwa se hagati y'imirima n'indi, kugira ngo uyinyuramo cyangwa se ukorera aho hafi yaho agende ayinyuramo iba iri hagati y'ibiti.

Inzigo y'igitoki ni ubuhinzi buhingwa mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse mu ntara hafi ya zose mu majyaruguru mu karere ka Musanze ndetse n'ahandi usanga bahinga igitoki aho ugihinga abona ibyo kurya bikavamo urwagwa n'imineke nibindi.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa bihingwa hirya no hino mu gihugu, aho bitanga umusaruro mwinshi ndetse bikaba bivamo amafaranga. Ibyo kurya barabihura, bakabibetesha hakavamo igikoma ndetse n n'umutsima.

Ibimera bitandukanye kimwe n'inyinya, inyinya ni igiti kizana imbuto tukaba dutoya iyo tweze duhindura amabara, kikaba ari n'umuti ukoreshwa n'abantu benshi kubera utwo tubuto tuzaho.

Amajeri n'ibihigwa mu gihugu hirya no hino, aho amajeri ashobora guhingwa hamwe n'ibigori n'amasaka byose byemerewe ku bihinga bikavamo ibyo kurya bijyana umuraruro ku isoko.

Igi iyo gizwe hanoheza afite ifumbire rimeze neza kibasha kigata umusaruro mwiza kikaba kirekire kubona igitoki cyiza, cyakuze ndetse kiba gifite ibiro byinshi n'uburemere ndetse gifite n'ibitoki byiza.

Imbuto y'ibirayi ni kimwe mu bihingwa cyangwa se ni kimwe kizamura abantu benshi, aho umuhinzi iyo amaze gukura ibirayi, afata ibirayi akabijyana mu buhunikiro akabishyira kudutanda duteye kugira bimere neza.

Ubuhinzi bw'ibirarana ni umwuga mwiza ukorwa n'abantu benshi hirya no hino. Ariko ibirayi bisabwa kubyitaho ukajya ibitera umuti ukoresheje icyuma gitera umuti uvangamo: detane, roketi ndetse n'ibindi, kugirango ibirayi byawe bizatange umusaruro mwinshi ushimishije.

Ubuhinzi ni igikorwa cyiza ndetse cyiza cy'iterambere gifasha abaturage gutera imbere. Mu buhinzi hagira ibikorwa bigenda bitandukanye. Ubuhinzi bw'ibirayiri, ibigori. Ibigori ni igihingwa ntabwo gitinda kwera kandi gitanga n'umusaruro mwinshi ku muntu ubikora.

Ubuhinzi bw'amatunda kimwe mu mishinga abantu benshi bakora, kuko yunguka vuba ndetse bitagorana kuyitaho, ndetse n'ayo witayeho azana umusaruro, ndetse ukabona amatunda ukabone icyo urya n'ibyo ugurisha.

Amashu ni ibihingwa bihingwa henshi hatandukanye kuko byera aho hose dasaba ifumbire irasaba kujya ibyitaho ari imboga ziribwa n'abantu

Imiteja nimwe mu bihingwa, bihingwa mu bice bitadukanye by'igihugu, biforomye nk'ibishimbo aho kuba bitandukanye nuko byo bisarurwa bitarera bikiri imiteja.

Ubuhinzi bw'ibireti buboneka mu bice bitandukanye cyane cyane mu majyaruguru ho mu karere ka Musanze, umurenge wa Kinigi hahingwa ibireti. Biba bivamo imiti ndetse n'ibindi bintu, bikaba bitanga umusaruro, ndetse bikaba bitanga n'inyungu ku babihinga.

Ibijumba ni ibihingwa bihingwa mu butaka. Iyo bisaruwe biraribwa. Hari ababiteka bidahase n'ababiteka bihase byose biterwa n'icyo bakunda. Ariko biboneka hirya no hino, ndetse bikaba ari ibiryo biryoshye cyane.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni ni igikorwa cyangwa se ni umurimo ubeshejeho abaturage benshi muri rusange, haba hano mu Rwanda cyangwa se mu gihugu hose. Ariko Uzi noneho mu Karere ka Musanze ni umwihariko, ni ukuvuga ngo ibirayi ni ibihingwa umuntu ashobora guhinga, ndetse mu gihe gitoya bitanga amafaranga menshi, ndetse n'inyungu nyinshi ku muntu ubihinga.

Karoti zihingwa ni umurama useswa mu butaka bwateguwe, ukazisesa ku murongo. Iyo zikura zigenda zigira ibabi hejuru, ariko ikoroti ya nyayo iba iri munsi y'ubutaka.

Avoka iri mu bwoko bw'imbuto bwera mu giti. Aho igiti kiba ari kirekire. Aho utera ikibuto, igiti kigakura ndetse nizo babangurira. Cyamara gukura kikazana imiteja. Imiteja yakura ikabamo avoka bakazimanura bakazitara zigashya ukabona kuzirya.

Ubuhinzi bw'ingano. Ubundi ingano zihingwa mu kuzinga barabiba iyo usoje kubiba ,zigwa zegeranye cyane n'ibyatsi byinshi nyuma zirera mu kwera kwazo hari igihe ukajya uzirinda kugira ngo inyoni zitazona hanyuma zeze, uragesa warangiza kugesa, ukazihura ukazibika.

Iyo abahinzi basoje gusarura haba ibishyimbo, amasaka, impungure cyangwa ibigori, bagira nk'amasaka barayanika bakayahura akavamo amakoma, bakajya bayanika ahantu heza kugira abone izuba.

Ibijumba ni ibihingwa bihingwa mu bice bitandukanye by'igihugu kandi hari aho bitaboneka, ushobora kubirya bikiri bibisi cyangwa se bihiye ukabyotsa, ndetse bamwe babicuruza babibavanamo amafaranga, kuko bijyanwa ku isoko bikagurishwa, n'abatabihinga nabo bakabibona.

Amateke: Amateke ni bimwe mu bihingwa bihingwa mu butaka, bijyira ibibabi, bigenda bijyira uruti ruzamuye, bijyira n'ibibabi bigari cyane, hari amateke amwe asharira , amateke agenda ajyira ubwoko butandukanye, mbese amateke ni ibihingwa byiza, bihingwa mu bice bitandukanye by'igihugu, bikajyira n'umumaro ku babihinga, kuko bivamo ibyo kurya, amafaranga, ndetse no mu karere ka Musanze amateke arahingwa mu duce tumwe tw'akarere.

Imodoka zigenda zifata ahantu hatandukanye ibicuruzwa, kugira ngo nk'igitoki bakagenda babitwara mu bice bidahinga igitoki, kugira ngo abaturage babiboneho ibyo ni byo bita gusagurira amasoko.

Ahantu bakusanyiriza amata hitwa ku ikaragiro, aho abacuruzi bose bagura amata bakaza kuyadondeka ku ikaragiro bagahabwa amafaranga, ndetse akabasha kwiteza imbere ndetse no kugira ngo bashake andi mata.

Amasoko atandukanye cyangwa se mu mabutike dusangamo ibintu byose twifuzama kabonekamoka cya mutiki usangamo; ibyo kurya, ibyo kunywa, imyaka ese ibyo wifuza byose ukabisanga muri iryo duka.

Niziba mubiti birebire aho zigenda zigira amabara n'imyugure cyangwa zindi zimwe zize zigaragaza ibimenyetso cyangwa nanyirazo iyo abonye zeze arazisarura.

Igikorwa gifasha abaturage kuzamuka ndetse no kwiteza imbere, aho no mu bice bitandukanye by'imisozi, bagenda bahinga, kugira ngo babone ibyo kubatunga n'ibyo kurya. Abahinzi bishyira hamwe, bagahinga umurima munini, kugira ngo babone bato.

Karoti ni kimwe mu mbuto cyangwa se mu bihingwa bihingwa hirya no hino bitatandukanye, aho usesa umurama, umurama ubanza watunganya umurima, ugasesa umurama bagashyiramo wa muramu ukagenda umera....

Ubuhinzi bw'ibigori ni kimwe mu bihingwa bibeshaho abantu benshi, aho usanga abantu bahinga imbuto zitandukanye z'ibigori bitewe n'umusaruro babyitazeho, urugero arogoriti, marizori na tamira ubwo ni bumwe mu ibihingwa cyangwa se mu bwoko bw'ibigori.

Imiteja ni kimwe mu bihingwa bihingwa mu bice by'igihugu, ndetse bikabaari bimwe mu byo usanga mu isoko, aho biba ari ibishyimbo biteze, kuko aribwo buryo bisarurwamo bigatanga amafaranga ndetse n'ibindi byo kurya.

Ubuhinzi ni igikorwa kibeshejeho abaturage benshi bo mu cyaro, aho umuhinzi ahinga, agasarura, akagurisha, ndetse akabona ibyo kurya. Rimwe na rimwe, abahinzi, mugenzi we ahamagara undi, bakajya gufashanya, kuguzanya, kugira bahinge vuba, arangize.

Ubuhinzi bw’ibirayi, ndetse ni igikorwa cyiza kizamura abantu, aho umuhinzi ahinga ibirayi, akabisarura, akabijyana mu murima, isoko rigendwamo n’abantu benshi, bakabigura, bakabicuruza kugira ngo n’abandi bose babibone.

Imboga n'imbuto urugero nka wotameloni, amaronji, avoka ni imbuto nziza ndetse n'ibyo kurya byiza, bifasha umuntu kubaho neza no kugira ubuzima bwiza. Ibyo bigaragara mu gihugu hose, ndetse no mu masoko gi atandukanye ndetse no mu Karere ka Musanze mu isoko rya Musanze, mu Kinigi, ndetse n'ahandi hose, mu masantere atandukanye, izo mbuto zigaragaramo kandi ni byiza cyane.

Avoka ni ubwoko bw’imbuto bukundwa n’abantu benshi mu gihugu cyangwa se mu bice bitandukanye, kuko zera aho ari ho hose, ndetse avoka nziza zibanguriye ziraryoha cyane kurusha izindi.

Amatunda na yo n'ibihingwa bihingwa hirya no hino, hari amatunda yera mu biti birebire n'ayera hasi, amatunda agenda yera mu buryo butandukanye, bitewe n'ubwoko bwayo.

Ubuhinzi ni igikorwa cyiza cyangwa umurimo ubeshejeho abantu benshi, ubuhinzi bw'ibigori n'igirakamaro ku bawukora, kuko havamo impungure, ndetse n'igikoma n'umutsima.

Ibihingwa bihingwa mu bice bitandukanye, nko mu Gakenke, Musanze, ndetse n'ahandi mu gihugu. Bukagira umumaro ku bahinga, aho havamo ubugari, cyangwa se imyumbati, itekwa neza ikaribwa, itanga n'amafaranga iyo yajyanywe ku isoko.

Avoka ni igihingwa ni imbuto zera mu bice byose by'igihugu hafi ya byose, kikaba ari igiti kiba kinini kikazamo imbuto ari zo voka, zirasarurwa igihe basaruye bakajya kuzitara bakazirya cyangwa se zikajyanwa zikiri mbisi, zikajya gukorwamo iyindi miti cyangwa se iyindi misaruro.

Hirya no hino mu Rwanda tuhasanga ubwoko bw'intama butandukanye, usanga ari intama nziza zibereye kuzireba, bitewe n'aho zaragiwe cyangwa se n'uburyo ari ubwoko bwiza, ukaba wakwifuza kuzitunga cyangwa kuzorora.

Ubunzi bw'ibingwa bitandukanye bigenda ifasha abaturage kuzamuka, guteza imbere, no kubona ibyo barya. Ibijumba ni kimwe mu bihingwa bingwa ahantu hatudakanye no mu bihe bitandukanye ndetse n'ibindi bihingwa byose byera hasi bidasaba ubushobozi burenze.

Ubuhinzi ni umwuga ubeshejeho abantu benshi mu gihugu, iyo umuhinzi ahinga imyaka itandukanye, agenda abona inyungu, ndetse n'amafaranga, ndetse akabona ibyo gutunga umuryango we, ndetse no gusagurira amasomo.

Inyanya ni ubwoko bw'imbuto, buhingwa mu bice bitandukanye by'igihugu, ndetse bugira umumaro ndetse bugatanga n'inyungu k'ubikora ndetse n'ababikorerwa, ndetse bikihutisha iterambere. Ku muntu wakoresheje inyanya cyangwa se wariye inyanya agira ubuzima bwiza.

Ubuhinzi hiryanohino bibeshyejeho abantu benshi batandukanye haba Mukarere ka Musanze ndetse nahandihirya nohino mugihugu .Bigenda bikorwa aho ibigori cyangwa ibindi bihingwa bimwe bizamura abantu ,ibigori ni ibihingwa bihingwa mubutaka bikagira impeke ,aho uhinga urubuto rumwe hakaba ikigori gifite impungure nyinshi.

Mu Gihugu hirya no hino ndetse no mu karere ka Musanze nako karimo, hagenda hakorwa uburyo bwinshi bwiza se bufasha abantu detse n'ibidukikije mu gutegura ingemwe nziza, cyangwa se ibiti byiza bifasha mu kugaragaza ubwiza bw'agace runaka ndetse no gukomeza ubutaka, ndetse bigatanga n'umusaruro w'ababikoresha ndetse n'amafaranga.

Mu bucuruzi mu maduka atandukanye harimo aho bacuruza imyaka igiye itandukanye aho usanga amamera, amakoma, ibigori, ibishyimbo, amajeri, ubwoko butandukanye bw'impungure, soya, n'ingano.

Ibirayi ni kimwe mu bihingwa cyane mu Majyaruguru ndetse no mu bindi bice by'u Rwanda, aho usanga harahinzwe ibirayi umurima munini, bagakuramo amafaranga menshi, ndetse bakagira n'iterambere bitewe nuko bahinze ibirayi.

Ubuhunikiro ni ahantu bahunika ibintu bitandukanye, ahantu abacuruzi bashyira sitoke y'ibiryo bacuruza, bakabipanga mu mifuka neza, bakabitondeka neza ku buryo buringaniye, ku buryo bitwara umwanya mutoya.

Hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu hari uduce usanga dukoreshwa na rabu, aho usanga imbuto nziza y'ibirayi ndetse n'izindi mbuto zitandukanye, zikenerwa n'abaturage hirya no hino mu gihugu.

Mu gihugu hirya no hino hahingwa ubwoko bw'ibigori bitandukanye hariho tamira , buride ndetse na mayizore . Iburide ni ibigori biba bisa n'umweru ndetse na tamira isa n'umweru , naho mayizori ho iba ari ibigori biba bisa n'umuhondo.

Mu buhinzi haba ibihingwa bitandukanye. Iyo ibihingwa bimaze gusarurwa, urugero nk'ibishyimbo birahurwa bikajyanwa mu isoko gucuruzwa, kugira ngo n'abandi babibone.

Iyo ufashe ibishyimbo ukabimena hasi, cyangwa se nk'iyo basaruye bigasigara mu murima, iyo birunze hamwe bigenda bimera bigaragaza imimera, ari byinshi nyine bimerera hamwe hatandukanye.

Abahinzi iyo basoje gusarura bakoresha uburyo butandukanye bwo gutwara imyaka, aho abahinzi bamwe bamaze gusara ibishimbo bigufi, babirandura bakatondeka neza, bakabiha amagarare akabitwara, akabigeza mu rugo bikiri ku byatsi bya byo.

Mu bice bitandukanye by'igihugu, iyo basoje gusarura imyaka, bayihunikira mumahunikero rusange, ibyo bikaba bifasha abaturage badafite ahantu hagarimo iwabo guhunika, gukurikirana imyaka yabo neza.

Ikigori, ibigori iyo bimaze gusarurwa birapfundikwa, byamara gupfundikwa, bakabimanika bikavamo icyo bita mahundo. Aho bihungurwa bikavamo ifu y'igikoma, cyangwa se bakajya babiteka bakabirya.

Ibishyimbo bigira imbuto zitandukanye, aho usanga hari ibishyimbo bishingirirwa n'ibishyimbo bigufi, ariko ahenshi bakunze guhinga ibishyimbo bigufi, kuko bidakonsoma imishingiriro kandi bigatanga umusaruro mwinshi.

Amasaka ni ubwoko bw'ibihingwa bihingwa mu bice bitandukanye by'igihugu, aho ayo masaka amasaka agira umwe ahubwo amasaka aba asa n'umutuku amasaka asa n'umweru zose ni imbuto z'amasaka agenda aboneka hirya no hino.

Amajeri cyangwa se amashaza, ibihingwa bitagoye guhinga, aho utunga ganya guhinga wasoza ukabiba ukazasora mu murima ugiye gusarura kuko ntibigarwa birangimo

Uburyo bwiza bwo kubika ibintu no biteka bitari mu kavuyo, abacuruzi ndetse n'abandi bagenda bafata ibintu bacuruza, bakabirima mu mifukaka kugirango bagabanye akavuyo kaba gahari ,ndetse bibafashe gutwarwa neza umujyi woroshye.

Ubuhinzi n'ubworozi ni kimwe mu bintu bifasha abaturage kubaho neza , ndetse turavuga ku buhinzi aho rimwe na rimwe iyo abahinzi barimo basarura , haba igihe imvura iguye , bakitera umutaka hamwe mu murima , cyangwa se iyo bari kurya basangirira hamwe bakawitera nko kugira ngo izuba ritababera ryinshi.

Ubuhinzi ni igikorwa giteza imbere abaturage, ndetse benshi muri rusange. Noneho, hari ibihingwa bigira impeke twavugamo nk'amasaka. Amasaka afasha abantu mu gukora, havamo icyo bita amakoma. Hari uburyo ategurwa akajya kubeteshwa akavamo ifu ndetse n'amamera iyo yinitswe. Amasaka kuyahinga ni ingenzi ndetse ni ingirakamaro mu bice byose by'Igihugu.

Ubuhinzi ni igikorwa cyangwa se ni umurimo uteza imbere uwukora ndetse n'igihugu muri rusange. Mu buhinzi tugira ibihingwa bigenda bitandukanye urugero turafata ku bigori. Ibigori ni ibihingwa byiza ndetse bitanga umusaruro mwiza ariko muburyo bwo kubika neza cyangwa byume neza urabifata ukabimanika ahantu bita ku gango. Ukaba wabipfunditse bikagenda byuma neza bibona umuyaga bikuma.

Ibishyimbo ni igihingwa kigira impeke. Hari ibishimbo, ibishimbo birimo ubwoko bubiri butandukanye. Hari ibishimbo by'imishingiro cyangwa se bishingirirwa n'ibishimbo bigufi. Akenshi abenshi bakunze guhinga ibishimbo bigufi, kuko bitanga umusaruro mwinshi ndetse bitanagora mu byo gushaka ibyo kubishingiriza cyangwa se ibyo kubihagarikaho.

Ubuhinzi, ni ukuvuga ngo ndashaka kuvuga ku kintu kijyanye n'ubuhinzi. Abahinzi iyo bamaze guhinga imisaruro yabo (guhinga imyaka) barasarura bagahunika (byo bita guhunika) bakagenda babishyira mu mifuka kugira ngo bibashe kubikwa neza. Na kuriya babirangura mu buryo bwo kubikwa neza, babibika mu mifuka bakagenda babipanga ahantu hamwe, kugira ngo bifate umwanya mutoya ndetse bibashe kuba biri mu nzu itagira akavuyo.

Uburozi bw'inkwavu ni umushinga bamwe mu rubyiruko bitabira gukora, kuko inkwavu zunguka mu gihe gitoya kandi zitagorana mu kuzorora, kuko bifata igihe gitoya kugira ngo zibe zakuze zororotse.

Imbwa ni imwe mu nyamaswa zikundwa n'abazungu, aho usanga bazishyira hamwe bazigaburira, bazifata neza, zikaba ziri ahantu hasukuye ndetse zikora n'akazi gatandukanye.

Mu muco nyarwanda, itsinda ryishyirahamwe rikagura amatungo, guverinoma cyangwa se uwishimiye undi akamuha itungo. Usanga bahana amahene, intama, ndetse n’ibindi byinshi, bitewe n’urukundo baba bafitanye.

Muri iyi minsi cyangwa se muri iki kinyejana cya makumyabiri na rimwe, ubuvuzi bwagiye butera imbere, aho no mu matungo, byagiye bigera n'aho ushobora kuba ufite itungo ryagize ikibazo, ugahamagara umuveterineri cyangwa se umuntu wabyize akaza kurikuvurira, haba intama, ihene, inka ndetse n'indi nyamaswa yose.

Inka ni ubworozi bwiza butanga umusaruro aho uworora agenda abona umusaruro utandukanye yaba amata, ifumbire, n'ibyo kurya, ndetse inka zororerwa mu biraro mu buryo bwo kugabanya ubucucike no kurwanya isuri.

Ubworozi ni igikorwa gifasha buri umwe wese ndetse ugikora kikamuteza imbere. Amatungo yose arororwa ndetse mu Rwanda cyane ndetse mu duce twose no mu karere ka Musanze, ubworozi burakorwa mu gihugu hose. Ingurube ubworozi buteza imbere ubukora ndetse mu gihe gitoya, ndetse bugatanga n'umusaruro mwinshi kandi ugaragara.

Ubushakashatsi hirya no hino butandukanye bugenda bukorwa' nyayamaswa ku bantu, aho inyamaswa ziba mu ishambi zagize ikibazo abaganga babihuguriwe baza kuzikurikirana, bakazivura kugira ngo zibeho neza.

Ubworozi ni kimwe mu bikorwa cyangwa se umushinga uzamura bamwe na bamwe bawukora babona amata , ibyo kurya ndetse n'ifumbire n'amafaranga akomoka ku buhinzi cyangwa se akomoka ku bworozi cyane cyane ku bworozi bw'inka.

Mu buryo bwo kurwanya igwingira ndetse n'imirire mibi mu bana, Leta y'u Rwanda igenda ishyira imbaraga zikomeye cyane, kurwanya igwingira ndetse n'imirire mibi mu bana, ibaha intungamubiri cyangwa se ibiryo bifite intungamubiri. Ibaha n' amagi, ndetse ishishikariza n'ababyeyi kubaha ibiryo byujuje imirire myiza.

Ubworozi bw'ingurube n'imwe mu mishinga hirya no hino abantu basigaye bakunda korora, kuko ari imishinga itanga ubworozi bwiza, butanga amafaranga mu gihe gitoya, ku bantu borora ingurube.

Ihene ni inyamaswa cyangwa se ni itungo rigufi ryo mu rugo, ryororerwa mu rugo rikaba ritanga umusaruro aho rishobora kuribwa rikagurishwa, umwana akajya ku ishuri rikabyara rikororoka umuntu agatera imbere.

Mu mazi kimwe no munyanja cyangwa se mu biyaga, hari inyamaswa cyangwa se hari ibiguruka byibera mu mazi, biba bifite iminwa miremire, amababa ndetse biba no mu kirere ariko usanga biguruka rimwe na rimwe ariko ahanini ubuzima bwabyo burebure bwibera mu mazi.

Imisambi ni imwe mu biguruka tubona mu mahoteli atandukanye, aho biba biboneye, bibereye amaso, isa neza, bigira imisatsi, itera amagi, bikagenda bigira n'amabara n'imizosi miremire.

Inyamaswa iteye ubwoba,y' igikururanda igenda ikururuka hasi ,ahantu hashyuha ku buryo umuntu wese uyibonye ateyimenyeye, abona ari nziza ariko ku bayizi ,bazi ububi bwayo . Inzoka ni mbi ni ikinyamaswa kigenda gikururuka hasi.

Mu kirere habonekamo ubwoko butandukanye bw'ibiguruka, inyoni, ibisiga, inuma, ndetse bimwe mu biguruka bigenda, iyo ahantu bigurukira nta biti bihari, bigenda bihagara aho bibonye kuko hari n'ibihagarara ku nsinga z'amashanyarazi.

Mu ishyamba cyangwa se mu mazi cyangwa se ku isi, haboneka ubwoko butandukanye bw'inyoni, usanga zibereye amaso zisa n'inuma, ndetse ureba ukishima ukumva wahora uzireba buri gihe.

Mu ishyamba dusangamo inyamaswa zitandukanye, zigendera mu biti ndetse zigenda no hasi, zituzwe n'ibiti, twavugamo nk'inkima, inkende, n'izindi zo mu bwoko butandukanye bw'inyamaswa.

Mu bwoko bw'inyamaswa cyangwa se ibiguruka mu kirere dufite, hari byinshi n'ubwoko bwinshi butandukanye, ndetse buboneka mu gihugu hose cyane cyane hafi y'amashamba. Urugero nko mu karere ka Musanze hagaragara ubwoko butandukanye bw'ibiguruka, ndetse bifite n'umwihariko bitandukanye cyane n'ibindi tugenda tubona.

Mu mazi dusangamo ubwoko butandukanye bw'ibiguruka, aho usanga hari zimwe mu ngona cyangwa se inyoni, ubwoko bw'inyoni buba mu mazi, zitunzwe no kurya utunyamaswa dutandukanye tuba mu mazi.

Mu mashyamba yo mu Rwanda hagenda habonekamo inyamaswa zigenda zitandukanye. Twavuga inkima. Inkima ni inyamaswa ntoya igira umutwe mutoya, ikagira umurizo muremure, ndetse inyaruka cyane.